Ushaka gucuruza nta nkomyi? Gura ubwishingizi bw'ibinyabiziga bigufasha mu bucuruzi. Hamagara cumi na gatatu makumyabiri. Wa wa, akadomo, purayime, akadomo rwa. Abantu bambaye neza, amakote meza, inyuma yabo hari imodoka zigizwe n'irange ry'umweru...

Gendana icyizere buri ntambwe y'urugendo, hitamo buritamu inshuti y'ibihe byose. Zeru, karindwi umunani, mirongo inani na rimwe, icyenda umunani, zeru eshatu Rwanda, umuntu wicaye mu kinyabiziga yambaye ingofero, ijire y'umukara, umupira w'umweru...

Ntukagire impungenge mu gihe cyo kwivuza, ubwishingizi bwo kwivuza ramba na Britam n'icyo bubereyeho, hitamo ramba na Britam ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse. Umuntu wambaye karuvati y'umukara, ishati y'umweru afite ubwanwa.

Umusangirangendo wizewe, twandikire kuri Whatsap, zeru karindwi umunani, magana atatu na cumi na gatatu, magana arindwi mirongo itanu na gatandatu, duhamagare kuri makumyabiri n'umunani, makumyabiri n'umunani, umuntu uri guseka wambaye amarineti y'umukara afite varise y'ubururu, ahagaze ku muhanda w'umukara...

Biroroshye kurusha uko ubitekereza, rinda inzu yawe ibiza, zeru karindwi umunani, mirongo inani na gatatu, cumi na gatatu, magana arindwi na mirongo itanu na gataratu, inzu nziza igeretse rimwe yubakisha amabati y'umutuku.

Inama y'umunsi inzitiro ku matungo shyiraho uruzitiro rukomeye kandi rukwiriye hose kugirango urinde amatungo yawe kuzerera cyangwa guhura n'ibintu byayangiza, genzura buri gihe uruzitiro unarusane mugihe rwangiritse.

Buri gihe ni amahirwe yo kumva no gusobanukirwa ukagira n'ibyo ukemura, intego yacu ni uko buri mukiliya yumva ahawe agaciro nta kibazo, Brenda Kankazi, ushinzwe kwita ku bakiliya, umukobwa mwiza wambaye ikoti ry'umukara, isaha, ari guseka.

Ubwishingizi bw'ingwate, gura ubwishingizi bw'ingwate ku bapiganira amasoko atandukanye, zeru, karindwi, umunani, mirongo inani na kane, mirongo irindwi n'icyenda, magana atanu miringo itatu na gatanu.

Ubwishingizi bw'inkoko, umworozi yishyura mirongo itandatu ku ijana, leta ikamuha nkunganire ingana na mirongo ine ku ijana by'agaciro k'ubwishingizi bw'inkoko, inkoko zishingirwa, inkoko zitera amagi n'inkoko z'inyama nyuma y'iminsi cumi n'itanu inkoko ivutse.

Radiyanti yacu. Isi ntisakaye ntawamenya igihe inkuru yacu y'ubuzima yarangirira, twasiga he abacu, abo dukunda n'imiryango yacu? Hamagara cumi n'umunani icumi umurongo utishyurwa, kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe urwego, ugure ubwishingizi bw'ubuzima.

Imodoka nziza, zigizwe n'amabara atandukanye y'umweru, amapine y'umukara, n'izigizwe n'amabara nk'umukara, amapine y'umukara, ziri ahantu hejuru yazo hari ibyuma, ziparitse ahantu heza ku makaro y'umweru, aho ziri harimo amatara y'umweru...

Imodoka zigizwe n'irangi ry'umukara, amapine y'umukara, inyuma y'izo modoka hari inkuta zigizwe n'irangi r'umweru, ku izo nkuta hariho icyapa cyanditseho yundayi, hejuru y'icyo cyapa hari parafo irimo irangi ry'umweru.

Toyota rava kane hayiburide bibiri na cumi na karindwi. Imodoka nziza igizwe n'irange ry'umweru, umukara, hakurya y'iyo modoka hari amazu, imbere y'ayo mazu hari ibiti, inyuma y'iyo modoka hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi...

Abantu babiri b'abagabo bambaye neza, umwe yambaye ipantaro y'umukara undi yambaye ingofero y'ubururu afite agakapu k'umutuku mu ntoki, bafashe mu ntoki berekana icyapa cyanditseho Akagera, kigizwe n'irangi ry'umweru nyuma hari imodoka nziza y'umweru igizwe n'amapine y'umukara, irangi ry'umweru, inyuma hari indi nzu iriho icyapa hejuru...

Icyapa cyanditseho ,tuwita Rwanda ,hakurya yicyo cyapa ,hari urukuta ,rwubakishije amatafari ahiye, imbere y'urwo rukuta hari inzu, igeretse kabiri, igizwe n'irangi ry'umweru, iriho icyapa cyanditseho toyota...

Icyapa cyanditseho serivisi za Yundayi, munsi y'icyo cyapa hari ahantu haparitse imodoka zigiye zitandukanye z'ingeri zitandukanye z'amabara y'umweru, amapine y'umukara, icyo cyapa hasi hari urukuta rwubakishije amabuye akozwe muri dizayini nziza, imbere y'ayo mabuye hari poto y'insinga z'amashanyarazi, inyuma y'iyo poto y'iyo nzu hari ibiti.

Imodoka nziza y'umukara iz n'amapine meza, inyuma yayo hari icyapa cya yundayi inyuma y'icyo cyapa hakurya hari moto iriho umumotari utwaye umuntu, hirya hari ibiti hejuru y'ibyo biti hari ikirere cyiza.

utubundi tw'umweru duteretse ahantu hasi ku makaro y'umweru hirya hari ikindi kibuni kigizwe n'irangi ry'umuhondo gipfundikishijwe umufuniko w'umutuku imbere yabyo hari igikoresho cyagenewe kujyamo amata.

Isiniya y'icyuma, iriho ibiraha bikozwe mu birarayi, iyo siniya iteretse ku meza, ariho ibindi biraha.

Umuntu w'igitsina gore wambaye umwambaro w'umweru, afite ijage y'umweru ari gusuka amata mu yindi jage, imbere ye hari abandi bantu biteguye kwakira ayo mata, umwe muri bo yambaye umupira w'umweru, aho kandi uwo nguwo uri gutanga amata ari imbere ye hari ameza ateretseho agacupa k'umuhondo.

Injira muri konti yawe, kanda kuri mowa maze ukande kuri bilizi, urebe baranse ayinjiye, ayasohotse, menya amafaranga uzigama: inguzanyo, ama inite, amafaranga n'ibindi.

Ohereza amafaranga muri Cameroon, rimwe ukoresha momo, kabiri udakoresha momo, zeru gusubira inyuma, ohereza.

Banki ya kigali itariki cumi bibiri na makumyabiri na gatatu, saa munani n'iminota n'amasegonda cumi n'arindwi, ibihumbi magana inani na makumyabirina bitanu, ibihumbi magana atandatu makumyabiri na kimwe n'amafaranga magana ane na mirongo ikenda, ibihumbi ijana na mirongo ikenda, icumi.

Amadarapo y'Ibihugu bigiye bitandukanye, mirongo cyenda n'icyenda n'ibice bibiri, ijana na karindwi n'ibice bibiri, ijana na cumi n'umwe n'ibice bitanu, ijana na makumyabirie n'ibice bitatu, icyenda n'ibice na mirongo ine na bibiri, gatandatu n'ibice mirongo irindwi na bibiri, karindwi n'ibice zeru bitanu, mirongo itandatu na kabiri n'ibice umunani, zeru n'ibice mirongo itandatu na rimwe, mirongo ine n'icyenda n'ibice mirongo irindwi na kimwe.

Kugura no kugurisha, USA, Afurika y'amajyepfo, Koreya, Tayiwani, Katari, Ositaraliya, Singapore, Japani, mirongo itatu na gatanu n'ibice zeru bitatu, mirongo itatu na gatanu n'ibice mirongo itandatu, mirongo ine na gatanu n'ibice mirongo irindwi, makumyabiri na abiri n'ibice mirongo inani n'icyenda, kane n'ibice mirongo ine na biridwi.

Icyumba kigizwe n'amarangi y'umweru, ari ku nkuta, muri icyo cyumba harimo intebe z'imbaho, imbere y'intebe hari ameza ariho ikirahure, hirya hari...

Intebe nziza ziri ahantu mu cyumba kirimo amarido, izo ntebe ni eshatu, imbere yazo hari imisego myiza, ahantu izo ntebe ziri hari irangi rijya gusa nki'cyatsi...

Umuhanda w'umukara uparitsemo imodoka nziza y'umweru igizwe n'amapine y'umukara, hirya y'uwo muhanda hari inzu nziza zigeretse, imwe muri yo igeretse kabiri n'indi yo hino nayo igeretse kabiri zigizwe n'amarangi y'umweru, imbere y'imwe muri zo hari urukuta rw'amabuye.

Ahantu heza hari intebe z'umukara, imbere yazo hateretse ameza, hakurya y'izo ntebe ni ameza hari aho bogera, imbere yaho hari inkingi zigizwe n'irangi ry'umweru, imbere y'izo nkingi hari ibiti biriho amashami n'amababi.

Inzu iri ahantu runaka igeretse, igizwe n'amadirisha, inzugi, bigizwe n'amabara y'umweru, imbere y'iyo nzu hari amavazi arimo indabo, imbere y'ayo mavazi hari izindi ndabo ziteye, iyo nzu iriho umureko ugizwe n'irangi ry'umweru.

Abantu bicaye ku ntebe zigizwe n'irangi ry'ubururu n'umukara, umwe muri bo arahagaze, imbere y'abo bantu hari ameza ateretseho imashini z'umukara.

Imodoka zimwe muri zofite irangi ry'umweru indi imwe muri zo te cyangwa se igizwe n'irangi ry'umweru imbere y'izo modoka hari inzu iriho ibyapa byamuwa iyo nzu igizwe n'amatafari ahiye.

Umuhanda ugizwe n'ibice bitandukanye urimo ikinyabiziga nka moto gitwaye umuntu, imbere y'icyo kinyabiziga hari ibiti biri mu busitani, imbere y'ibyo biti hari inzu nini cyane igizwe n'irange ry'umweru, inkuta z'amatafari. Imbere y'iyo nzu hariho icyapa cyanditseho Sanlam.

Inzu nini nziza igeretse inshuro utabara, igizwe n'irange ry'umweru ibirahure byinshi bitandukanye, imbere y'iyo nzu gato hari izindi nzu ntoya zitari nini cyane, imbere y'izo nzu hari ibyapa bigiye bitandukanye, hari n'umuhanda urimo kugendamo abantu, imbere y'uwo muhanda hari ibiti, mbere y'ibyo biti hari n'inzu iriho icyapa cyanditseho ubwishingizi bwa Mowa.

Icyapa kigizwe n'ibara ry'umukara, umweru cyanditseho Rwanda, hakurya hari inzu nini, igeretse, igizwe n'inzugi, amadirishya, ibara ry'umuhondo...

Ahantu munzu harimo intebe z'umukara imbere yizo ntebe hariho ameza, ariho hejuru irangi ry'umukara mu mpande hari irangi ry'umutuku, hakurya hari urukuta rugizwe n'irangi ry'umweru n'umutuku ruriho amafoto y'abantu batandukanye.

Abantu babiri, umwe muri bo yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru n'inkweto z'umukara, bicaye ku ntebe z'umukara, izindi na zo ntabwo zicaweho, hirya yabo hari ameza ateretseho imashini, aho bari kandi, hari igikoresho cyabugenewe gushyirwamo amazi, hirya hari urugi.

Byinshi kuri wowe, dushyira imbere iterambere rya buri mugore, ukeneye amakuru menshi wahamagara, zeru karindwi munani, cumi na kane, mirongo itanu na gatatu, zeru ebyiri.

Icyapa cyanditseho koperative, cyanditseho nanone SPF ineza, imbere yacyo hari abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo, abagore, umwe muri bo yambaye ingofero y'umutuku, hejuru y'icyo cyapa hari amabati.

Bona itike yawe uyu munsi abahungu abakobwa ahagaragara muri kigali kuwa 6 ku itariki 28 2023 muri bike arena 30% byagabanyirijweho(..)

Umuhanda w'umukara, hakurya y'uwo muhanda hari ahaparitse ibinyabiziga nk'imodoka zigizwe n'amarangi y'umukara, amapine y'umukara, hakurya y'izo modoka hari inzu nini igizwe n'ibirahure, amadirisha, hasi y'iyo nzu hari imitaka igizwe n'amabara atandukanye, hariho abantu.

Ingeri zitandukanye z'abantu abagore, abagabo, higanjemo igitsina gore cyane, aho hantu bari hari ahantu hari imitaka y'amabara atandukanye nk'umuhondo n'andi mabara imbere y'iyo mitaka hari inzu zitandukanye hejuru gato hari insinga z'amashanyarazi ziri ku mapoto hirya hari ahantu hari ibiti.

Isoko ririmo ibitoki byinshi, abantu urujya n'uruza baje kwihahira, bambaye neza; inyuma yabo hari ahantu hubakishijwe amabati; imbere y'ayo mabati kuri iyo nzu hari inzu yubakishijwe amategura.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye bigurwa n'abakiriya, harimo inyanya, ibitunguru biteretse ku nkoko, hakurya hari abantu bategereje kugura, bamwe muri bo bari kugura, imbere hari umuntu witandiye w'umuyisilamu, aho bari hejuru hari amabati.

Amabase agizwe n'amabara atandukanye, umutuku, ubururu n'icyatsi arimo imineke, imbere yayo mabase hari abantu b'ababyeyi bambaye ibitenge, umwe muri bo arahagaze abandi baricaye, hirya yayo hari amazu, imbere y'ayo mazu hari ibyapa bigaragaza ibyo bakora.

Umuhanda w'umukara, hakurya yawo hari inzira yabagenzi irimo igendwamo n'urujya n'uruza rw'abantu bajya mu bice bitandukanye, imbere y'umuhanda w'abagenzi hari imodoka ebyiri z'umweru zigizwe n'amapine y'umukara, imbere yazo haparitse moto ziriho abamotari, hakurya hari inzu.

Amabase atatu, imwe irimo imineke. Abantu bane, umwe uje kugura, abandi babiri bari mu byabo, undi umwe muri bo ari kumwereka uko bimeze ibiciro bihagaze, inyuma hari urugi rw’umutuku hirya hari igikuta.

Isoko ry'imbuto ririmo inanasi zirindwi, ibinyomoro, imyembe, indimu, harimo n'umuntu w'umugore wambaye agapira karimo imirongo, aho ziteretse hariho urukuta rwanditseho cumi na kabiri makumyabiri na kabiri...

Ahantu hateretse inyanya, amashu, korojete, amavuta, amakaroni, imbere yayo hari umuntu w'igitsina gore wicaye ku ntebe yambaye umwambaro urimo ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari urujya n'uruza rw'abantu.

Abantu batatu, babiri muri bo bari gusuhukanya, umwe muri bo akoze kuri umwe muri bo babiri. Inyuma ya hari akazu gatoya kagizwe n'irangi ry'umutuku, kanditseho amafaranga ya eyateli. Inyuma yabo hari inzu igizwe n'irangi ry'umweru n'ubururu bahagaze ku gitaka.

Abantu babiri bicaye munsi y'umutaka, uwo mutaka ni umuhondo ufashwe n'ibyuma bitanu, imbere ya babandi bicaye hari udukarito, hakurya hari amazu, insinga z'amashanyarazi.

Abantu babiri umwe muri bo ari kuri telefone yambaye ikote ry'umukara, undi na we yambaye umupira w'umuhondo, afite telefone ebyiri, inyuma yabo hakurya hari ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka.

Abantu bategereje guhabwa serivisi, inyuma yabo hari ibiti biriho amashami, amababi, inyuma yabo hari inzu, imbere y'izo nzu hari amamodoka, imbere y'ayo mamodoka hari abantu bari kugenda.

Abantu batatu, umwe muri bo yambaye umupira w'umutuku, imbere yabo hari akazu gato hejuru hariho umubare zeru kane, zeru karindwi. Ako kazu kagizwe n'irangi ry'umuhondo hirya yabo hari amazu agizwe n'amabati, imbere yabo gato hirya hari icyapa cyanditseho MTN, Eyateri mani.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho ishyura hamwe na momo peyi. Hamagara akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu, urwego, ushyiremo rimwe, zeru, umunani, kane, rimwe, gatatu, makumyabiri na gatanu MTN...

Akazu gato karimo abantu babiri, hejuru yabo hari icyapa kiho irembo, Ekwiti, ikofi, banki yacu, nimero zeru karindwi, umunani, mirongo inani na kane ine numunani, magana ane n'umunani, karindwi umunani mirongo ine, mirongo irindwi na gatandatu zeru mirongo ine na kabiri, hirya hari ahantu hari ibiti.

Abantu babiri b'igitsina gabo, umwe muri bo ni umuzungu undi ni umwirabura, bose bambaye amarinete ariko y'amabara atandukanye, umwe muri bo yambaye ibara ry'umutuku, undi yambaye ibara ry'umukara, bombi bafite kasike ziriho irangi ry'icyatsi, izo kasike ziriho imibare itandukanye, inyuma yabo hari urukuta.

Icyapa kiriho abantu b'igitsina gore. Bafite amatelefoni mu ntoki zabo, agapapuro k'umuhondo. Kora ubusabe hamagara ku buntu, icyenda rimwe rimwe rimwe. Watsapu zeru karindwi umunani zeru kane mirongo ine magana atanu makumyabiri na kabiri. Kanda akanyeyenyeri magana cyenda na cumi na rimwe urwego.

Kigure iwabo w'inkweto sura wa wa wa akadomo kigure akadomo rwa wihahire, wishime, tubikugezaho ku buntu, inkweto nziza z'umwe zigizwe n'amarase y'umwe, ihahire akakanyaya hanze ya Kigali.

Kigure, ihahiriye na Kigure. rw. Gura ibicuruzwa bitandukanye ku bacuruzi bacururiza impande n'impande, ku biciro utasanga ahandi tubikugezeho nta kiguzi utanze. Nawe hanze ya Kigali ku gihumbi gusa yo kubikuza...

Umuhanda urimo moto ebyiri zihetse abagenzi, umwe muri bo areba inyuma, imbere yabo hari ibiti biriho amashami, imbere y'ibyo biti hari igisenge cy'ikinzu kigaragaza amabati yonyine, hirya yayo hari indabo.

Aha hari icyo ku madorari icyatanu ku kwezi wakibonera muri Kigali Rwanda, idarapo ririho ibara ry'umuhondo, icyatsi, ubururu, icyumba kigizwe n'amarangi y'umweru, harimo igitanda kiriho uburiri busashe.

Aha hari icyo wakwigurira kuri miliyoni 140,000,000 muri Kigali Rwanda. Idarapo igizwe n'amabara nk'ubururu umuhondo icyatsi kanombe kigali icyumba kigizwe n'amakaro y'umweru parafo nziza amatara y'umweru.....

Aha hari icyo wakigurira kuri miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda kigali rwanda; idarapo ririho ibara ry'umuhondo, ubururu, icyatsi; inzu igizwe n'amabara y'umweru, amakaro meza, amatara meza.

Aha ku madolari igihumbi ukwezi, hari icyo wakwibonera muri Kigali, Rwanda, inzu nziza igizwe n'igipangu kiza, muri Kibagabaga, Umujyi wa Kigali, iyo nzu igizwe n'inkingi, inkuta n'inzu nziza iriho ibirahure.

Aha hari icyo ku madorari maganinani wakwibonera muri kigali Rwanda. Idarapo ririho ibara ry'umuhondo, icyatsi, ubururu, hakurya hari inzu nziza zigeretse ziriho inkingi, hakurya nanone hari n'inzu iriho hejuru ibigega bibiri, imbere gatoya kuri izo nzu zigeretse hari umuntu wicaye ku cyuma.

Abantu babiri batandukanye, umwe muri bo ni umwirabura undi ni umuzungu, uwo muzungu yambaye ishati isaha ishati y'umweru ipantaro y'umukara uwo mwirabura na we w'igitsina gore yambaye ikanzu inyuma ye hari inzu igizwe n'amabara mu iyo nzu harimo.

Aha hari icyo wakwigurira ku madorari ibihumbi bibiri ku kwezi muri Kigali Rwanda. Inzu nziza igizwe n'inkingi nziza, amadirisha, inzugi. Imbere y'iyo nzu haparitse imodoka. Hirya y'iyo modoka hari urukuta rw'amatafari. Inyuma y'urwo rukuta rw'amatafari, hari ahantu hari ikigega. Inyuma y'icyo kigega hari inzu isakajwe amabati meza y'umutuku.

kKri miliyoni zawe mirongo icyenda n'eshanu aha hari icyo wakigurira muri Kigali Rwanda, adarapo rigizwe namabara ubururu, icyatsi n'umuhondo, inzu igizwe n'ibara ry'umweru, imbere yayo haparitse imodoka igizwe n'irange ry'umukara, hirya yayo hari urukuta rugizwe n'irange ry'umweru.

Aha hari icyo ku madorari magana atanu mkirongo itanu ku kwezi wakwibonera muri Kigal, Rwanda, icyumba cyiza, kirimo igitanda kiriho amashuka meza, ibirangiti byiza, muri icyo cyumba harimo amarido meza y'umweru, agizwe hirya n'irangi ry'umukara na none hariho urukuta.

Aha hari icyo amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi wakwibonera muri Kigali, Rwanda. Kabeza, umujyi wa Kigali. Icyumba kirimo ibikoresho byogerezwaho ibintu, idirisha rigizwe n'ibirahure, irangi ry'umweru.

Irakodeshwa iherereye hano ku Gisozi, ibyumba bitanu, aho bicara, aho barira, ubwiherero bune, aho batekera, inzu y'umukozi hanze n'ibindi inzu igizwe n'inkingi nziza, inkuta nziza.

Inzu nziza igeretse rimwe, igizwe n'ibirahuri, imbere y'inzu hari umuntu wambaye neza, ikote ryiza, inkweto nziza, inyuma yiwe hari igipangu, igipangu kigizwe n'ibyuma.

Inzu ikodeshwa iherereye i Kanombe, Busanza, igizwe n'ibyumba bine, ubwogero butatu. Ni inzu nziza igizwe n'amarange y'umweru, ifite ubusitani bwiza inyuma y'inzu hari ibikoni, inyuma y'ibyo bikoni hari inkuta zubakishije amabuye, muri bwo busitani harimo indabo...

Inzu nziza ikodeshwa kimironko kwa semikondo igizwe n'ibyumba bitatu, ubwogero butatu uteranyijeho n'ahamanikwa imyenda muri buri cyumba nkibihumbi magana atatu igizwe n'amadirisha yubakishijwe amabati meza y'umutuku.

I Kanombe huzuye inzu nshya igurishwa miliyoni ijana mirongo itanu, irimo ibyumba bitanu, ubwogero bune, ku buso bwa magana ane na mirongo itanu, ni inzu nziza iriho amapave meza, ifite amadirisha, inzugi, inkingi.

Miliyoni mirongo icyenda z'amanyarwanda inzu nziza iriho umureko amadirisha inzugi umuntu wambaye ishati y'umweru ipantaro yumukara inkweto z'umukara ahantu hari hari amapave meza hejuru hari ikirere cyiza.

Inzu nziza ikodeshwa, iherereye Kabeza ikodeshwa ibihumbi magana taratu, ni inzu nziza igizwe n'amabati meza, umureko, inkuta zigizwe n'amarangi nk'umweru, hirya hari amakaro, igizwe imbere na none n'inkuta nziza z'amatafari, igizwe n'urupangu rwiza.

Inzu ikodeshwa muri Kigali, Kicukiro, igizwe n',byuyumba bibiri, ubwogero bumwe, ku mafaranga ibihumbi magana mirongo itanu ku kwezi, inzu nziza.

Icyapa cyanditseho kanda kanyenyeri magana atanu na gatandatu, urwego hamagara gatanu zeru zeru gatandatu ku buntu, wiyanyandikishije, ibisobanuro birambuye urabisanga kuri wa wa wa ejo heza akadomo, govu, akadomo rwa. Ejo heza nzigamira ku bw'ejo hazaza hanjye.

Abantu bicaye mu cyumba ku ntebe z'imbaho, hejuru yabo hari parafo igizwe n'irangi ry'umukara n'umweru, muri icyo cyumba harimo inkuta kigizwe n'irangi ry'umweru, harimo amadirishya, amakositara.

Umuhanda w'umukara uparitsemo imodoka y'umukara, amapine y'umukara ari ku iyo modoka, hakurya hari inzu nziza igeretse, igizwe n'amarangi y'umweru, inkuta nziza, hasi y'iyo nzu hari izindi nzu zirimo ibintu runaka, izo nzu zigizwe n'inzugi z'umweru, ibyuma by'umweru.